Umukobwa urimo uraborosa amenyo, wambaye imyenda ya mugitondo, ari kwireba mu ndorerwamo, ubona ko afite ibyishimo byinshi cyane, arimo arasukura amenyo asa neza pe.